Ahantu hari abantu bipfutse, bakaba bipfutse amaso ndetse n'amaboko, umubiri wose bawupfutse. Bari gufata umusore urwaye bamujyana, bamwinjiza ahantu mu nzu.

Ibijyanye no kwita ku buzima, umukobwa ugaragara mu kaziga, ndetse iruhande rwe handitse amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ni amagambo maremare asobanura uburyo umuntu agomba kwita ku buzima bwiwe.

Abantu bari guterura amafu ndetse n'imifuka abo bantu harimo abagore babiri bari guterura bahereza umugabo, uyu mugabo nawe akayafata ari hejuru akayakira ubundi agakira, bari kugaragaza ko bafite imbaraga kandi bakomeye, n'ikindi gikorwa cya siporo kigaragaza ubuzima buzima.

Umuganga uri gutera urushinge umwana. Afite urushinge mu kuboko kwe kw'iburyo, yambaye ishati ndetse n'itaburiya, ari gutera umwana urushinge mu kuboko kwe kw'ibumoso.

Agatanda kubatse bashyiraho ibikoresho by'ibyombo. Ni ibyombo baba bamaze koza, ubundi barangiza bakabishyiraho ku buryo bibasha kumuka neza nta mikorobe zigiyeho.

Umubyeyi w'umumama ateruye umwana, n'aho umuganga na we ari guhereza umwana ibyo kunywa, akaba abifite mu kiganza agiye kubimuhereza, ni umuti agiye kumuhereza kugira ngo umwana akire.

Abaganga bateraniye hamwe bari kumwe n'aminisitiri bagiye batandukanye ndetse n'abandi bantu baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, bishimye barahagaze bari gufata ifoto harimo abagore, abadamu n'abandi n'abagabo.

Abaganga bari kumwe n'abajyanama ndetse bari kugaragaza ko bishimye bari guseka bose bambaye utuntu mu ijosi tubaranga ndetse harimo n'umuzungu.

Abajyanama b'ubuzima bafite ibyo bahawe ndetse babifite mu kiganza, ni abajyanama barimo aba mama ndetse n'abakobwa, aba bajyanama inyuma yabo hari abandi bagabo ndetse n'abandi bajyanama bose bambaye udupfukamunwa.

Abantu bicaye bari guhabwa inama zibafasha mu kwiyitaho ku buzima bwabo, ni abagabo bari hamwe, bose bambaye imipira y'imyeru, bari guhabwa inama kugira ngo bamenye uburyo bakwita ku buzima bwabo.

Umuganga ndetse ari kumwe n'umujyanama w'ubuzima bambaye agapfukamunwa, imbere yabo hari abandi bantu b'abaturage baje kwivuza kuri bo, bambaye nabo agapfukamunwa, aba baganga ndetse n'umujyanama w'ubuzima, imbere yabo hari mashini.

Abajyanama b'ubuzima bateraniye hamwe bishimye bariteruye abana, abandi bishimye bari guseka, inyuma yabo harimo n'abagabo ndetse n'abandi bagore b'abakecuru abantu basanzwe. Harimo bishimye kandi bagaragara neza bambaye imyenda y'abajyanama.

Ku ivomero aho abantu bavomera, umwana ndetse n'umugabo bagiye kuvoma, umwana agiye kwikorera indobo ayiterure ayitahane amaze kuvoma, umwana wambaye imyenda isa nabi ndetse akaba afite idomoro y'umuhondo.

Abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga bari kwa muganga, bari gutanga ubufasha ku barwayi baje babagana kwa muganga, ni umubyeyi uri kumwe n'umwana bari imbere y'abajyanama, aho aba bajyanama bicaye bafite imashini imbere bari kubandikamo imyirondoro yabo.

Umusaza wishimye ari guseka, yagiye kuvoma amazi ahantu bavomera amazi, ndetse akaba yajyanye ibido isa n'ibara ry'umuhondo, yambaye ishati y'amaboko magufi ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umubyeyi w'umumama akaba afite ibintu ari guha abana abagaburira kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza. Ari kubitaho abagaburira. Ni abana bicaye bambaye imipira isa n'ibara rya orange, hirya yabo hari umusirikare uhagaze ufite inkongoro ndetse n'undi mubyeyi.

Abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga bari imbere y'ikigonderabuzima, ni ikigo gifite inzu isa n'ibara ry'ubururu, hari abajyanama bahagaze imbere y'iyo nzu barimo abagore bagera kuri batatu n'abagabo bagera kuri bane.

Abana bari hamwe bose bateranye bari hamwe, bari koga intoki zabo. Abandi bana bari inyuma yabo bose bari kureba, bishimiye kuba babonye amazi yo gukaraba intoki.

Ahantu bavomera amazi, umugabo ari gukanda amazi akaza ndetse icyari gukanda ni igifasha kugiga ngo amazi aze, hari abana benshi bajyanyeyo amabido yo kuvomamo kugira ngo na bo bayatahane ayo mazi.

Abasore ndetse bari kumwe n'umukobwa ni abasore bane b'abaganga, bakaba bicaye imbere yabo hari udukarito turimo imiti, ni abasore baba barimo n'abajyanama bakajya inama ku buzima kugira ngo abantu babashe kumenya uburyo bashobora kwitwara mu buzima bwabo.

Abaganga bahuye bari kumwe, bari kuganira banasuhuzanya. Ni abaganga b'abagabo ubona ko bakuze, bakaba bari kumwe baganira basuhuzanya mu ntoki zabo, hirya yaho hari umuzungu uri kumwe n'umugabo.

Abantu bari gufasha abandi bakabaha n'inama zijyanye n'ubuzima, ndetse bari kugenda babaganiriza ni abaganga rero bicaye, bahagaze ahantu hamwe, bakaba bari kubagira inama umuntu wicaye bamwitaho.

Umwana w'umuhungu uri kuvoma amazi ari kuvoma amazi meza akayavana muri robine aho yambaye umupira w'umuhondo akaba yambaye n'ikabutura y'umukara nini ndende, akaba afite ikintu ari kuvomeraramo gisa n'ibara ry'umweru.

Umuhanzi Israel Mbonyi ari kumwe n'akana, agafashe ari kugapima ibiro, akana gahagaze ku munzani upima ibiro ndetse Israel Mbonyi na we arasutamye, iruhande rwako aragafasha.

Umukobwa uri kuvoma amazi ayavomera mu ibido, akaba ari kuvoma mazi meza yo kuza kunywa, ni umukobwa utogoshe, udafite umusatsi, akaba afite ibido yayiteze kuri robine avoma.

Icyumba cy'inama kiri gukorerwamo inama kwa muganga, ni aho bari kwita ku barwayi ndetse bakaba bari kuganira ku buryo abarwayi bagomba kwitabwaho n'uburyo bwiza bwo kubatwara kugira ngo bakire.

Ababyeyi bari kumwe bagiye kuvoma ndetse bari kumwe n'abana. Bagiye kuvoma amazi meza ahantu bavomera amazi meza. Ababyeyi bafite amabido imbere yabo ndetse barindiriye ko buri imwe igenda yuzura bakagenda bashyiraho indi bido.

Ababyeyi bari kumwe ndetse harimo n'abadaso ndetse n'abandi bagabo n'ababyeyi bicaye hamwe bari kuganira, bicaye iruhande rw'ikigonderabuzima gifasha kuba cyakurikirana ubuzima bw'abantu.

Ababyeyi b'abamama bari kuvoma amazi meza, ni ababyeyi bari kumwe bari kuri robine bavoma amazi meza yo kuza gukoresha mu ngo zabo, bose bazanye ibyo bavomeramo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu bagiye batandukanye. Ni icyumba barimo kuganira bakoze inama, ni abantu bagera kuri batanu barimo abazungu babiri ndetse n'abagabo batatu, imbere yabo hari amazi yo kunywa.

Abaganga bicaye mu cyumba kimwe bari kuganira ku kijyanye n'uburyo gukomeza kuvura abarwayi neza n'abaganga bateraniye hamwe bicaye hamwe baganira bari kumwe ndetse harimo abagore, abagabo ndetse n'abazungu.

Abantu bateranye bari hamwe ni ababyeyi ndetse n'abagabo n'abagore, bateranye bicaye bari kuganira, bamwe bafite amakayi, abandi ntayo bafite, bose bari mu nzu imwe bari kumva bagirwa inama z'ubuzima.

Ababyeyi bari kumwe nI ababyeyi bari kumwe bari gupima umwana uko areshya. Ababyeyi iruhande rw'uyu mwana hari umubyeyi wambaye umwenda w'umukara urimo utudomo tw'umweru, ndetse akaba iruhande rw'uyu mwana nanone hari abandi babyeyi bari gukoma mu mashyi bareba uko umwana bimeze.

Icyumba cyo kwa muganga kikaba kirimo aho abantu baryama igihe bari kubakura amenyo cyangwa se bari kubavura ndetse hakaba hari n'intebe ndetse hakaba hariyo imashini bifashisha iyo bari kubavura.

Abaganga ndetse n'abandi bantu bari hamwe, bari mu nzu ifite igikuta cyanditseho uburyo bwo gukubimira ndetse no kurwanya gutwita kw'abangavu.

Umukobwa wishimye yicaye ari kuvoma amazi yashyize ibido ayitereka mu ibase ndetse aricaye asutamye, akaba yambaye ijipo y'umukara ndetse n'agapira k'amaboko magufi.

Umujyanama w'ubuzima afite agakarito mu ntoki ze akaba yicaranye n'umusore yicaranye n'umugore utwite, uyu mujyanama w'ubuzima akaba yambaye itaburiya isa n'ubururu ari kubagira inama zijyanye n'ubuzima.

Umugabo uri guterwa urushinge ku kuboko kwe, ari kuruterwa n'umuganga, aho bari kumuvura ndetse akaba yambaye umupira usa n'ikigina, yambaye n'agapfukamunwa, akaba umuganga uri kurumutera na we yambaye agapfukamunwa.

Umurwayi uri kwa muganga wicaye ku buriri, akaba yambaye imyenda isa n'ubururu ateze n'igitambaro mu mutwe. Uyu murwayi yicaye aha ngaha afite ikintu bamushyize ku kuboko kwiwe bakaba bari kumusuzuma uko ameze. Uwakimushyizeho ni umuganga umuhagaze impande yamufashe ukuboko.

Umujyanama w'ubuzima yicaye ari gufasha umubyeyi w'umumama umwicaye imbere. Uyu mubyeyi umwicaye imbere yicaye ku ntebe isa n'umweru ndetse akaba yambaye igitenge n'umupira w'umuhondo ndetse n'agapfukamunwa. Umujyanama na we yambaye agapfukamunwa ndetse n'umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umubyeyi afite akantu gapima umuriro. Uyu mubyeyi arikwereka undi mubyeyi uko bihagaze nyuma yo gusuzuma umwe muri bo, uyu mubyeyi ateruye mwana ndetse bafite na telefone bari kureberamo uko byose bigenda.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza agira ati: "When the community responds the role of our small communities in mental health care." bisobanura ngo ni ryari urubyiruko cyangwa se abantu bazasubiza byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe?

Umusore ufite amenyo meza akaba ari guseka yishimye, uwo musore aba ari kugaragaza ko afite amenyo meza ndetse yambaye umupira w'umuhondo, ari guseka n'amenyo ye aboroshe ameze neza.

Abantu b'aba mama bateraniye hamwe bakaba bishimye cyane bari gukoma amashyi, ubona ko bishimye, ni aba mama benshi bari mu nzu imwe, bari gukoma amashyi.

Ababyeyi bari kumwe bateranye bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwiza ndetse bakoze intebe zizengurutse nk'ikiziga, bari kuganira bose harimo n'ababyeyi bahagaze hagati.

Abasore bicaye hamwe bari kumva inama ndetse bari kumwe n'abagore harimo n'abakobwa bagiye batandukanye, bose bicaye bari kumva inama bari kugirwa.

Abantu bateranye bari hamwe bari mu nama ni abantu bateranye ari benshi bari hamwe bari mu nama bari gukora byinshi bigiye bitandukanye baganiraho.

Umukobwa wishimye uri guseka, ni umukobwa uri gutekereza neza ubona ko afite akanyamuneza. Yishimye yicaye mu ntebe yazamuye ukuguru ndetse ari kureba hejuru yikora mu misatsi, yambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'ubururu.

Abantu bari mu nama. Aba bantu bari kuganira ku bigiye bitandukanye bijyanye no kuba ari ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'uburyo bushobora kuba bwakwitabwaho. Ni abantu bari kumwe bari hamwe harimo abagabo ndetse n'abasore n'abakobwa.

Umusaza w' umunyarwanda wambaye ikintu mu mutwe akaba yishimye ndetse afite icumu anakenyeye ari kubyina arishimye cyane ari guseka nuko yakutse amenyo.

Umuntu kubana n'uburwayi bwo mutwe akaba afite ibintu byinshi by'ibicupa, biki ndetse akaba ari n'umuntu usa nabi. Umuntu wicaye hasi yambaye imyenda isa nabi ndetse n'inkweto byose bisa nabi.

Umugabo ubona ko abana n'uburwayi bwo mumutwe, akaba afite ibintu byinshi, ndetse ahagaze no mu myanda, ni umugabo ufite ibintu yambaye mu josi, ndetse n'ingofero bisa nabi cyane n'imyenda ye isa nabi.

Abantu bari gufashanya mu bijyanye n'imitekerereze, harimo umupolisi hakabamo n'abandi bantu, harimo n'abaganga bagiye batandukanye bafashe ibijyanye n'imitekerereze.

Imodoka itwarwamo imiti ndetse igakorerwamo n'ibikoresho bigiye bitandukanye ikagendamo abaganga mu gihe bagiye gufasha abantu ahantu runaka, imodoka isa umweru ndetse nini.

Umwana uri mu ishuri akaba yicaye yambaye imyenda y'ishuri, ndetse ari kurya akantu ndetse n'umwana ubona ko yishimye, ari guseka yambaye ishati y'umweru, ni umwana mutoya.

Umugabo wunamye yambaye ikoti rya kositime. Ni umugabo imbere ye hari indabyo. Akaba iruhande rwe hari umuntu wundi wambaye umupira w'amaboko maremare utukura ndetse akaba yambaye n'akajire gafite ibara ry'icyatsi. Ni umugabo inyuma y'iwe handitse amagambo. Bisa nk'aho ari kunamira abantu bitabye Imana.

Abana b'abanyarwanda bashyize hamwe bazamuye ibendera ry'igihugu, barifite mu ntoki, bari kumwe n'ababyeyi babo ndetse harimo n'abasore na bo bazamuye ibendera n'abakecuru n'abandi batandukanye.

Ikirango cy'amenyo uko aba ameze mu munwa w'umuntu ndetse ni amenyo agaragara mu ishusho iba yagaragajwe na mashini, aho iba yafotoye uko amenyo ateye.

Umukobwa wahaye abana uburoso bw'amenyo ndetse na korogate, ni umukobwa wabahaye uburoso kugira ngo bajye boza amenyo yabo agume asa neza, bagome bakeye.

Abaganga babiri bari gusuzuma amenyo y'umwana, umwe ni umugore undi ni umusore, bakaba bari gusuzuma amenyo, uyu mwana yabaye agapfukamunwa ku matwi ndetse yambaye n'umupira w'umukara.

Umugabo ufite akadodo agiye koza amenyo ye, ni umugabo wishimye wishimiye ko agiye koza amenyo ye akoresheje akadodo, akadodo kifashishwa mu koza amenyo kugira ngo abashe gutungana ase neza.

Umwana uri gukurwamo amenyo, ni umwana uri kwa muganga, bari kumukuramo amenyo, bakoresheje ibyuma byabugenewe byo kwa muganga, umuganga uri kumukuramo amenyo, afite ibyuma mu kiganza cyiwe ndetse yambaye n'amadarubindi.

Umugabo w'umuganga ari gukura amenyo ku mwana mutoya, umwana aryamye ku ntebe cyangwa se ku gitanda aho yasamye maze bari kumukuramo amenyo, uwo umugabo uri kumukuramo amenyo yambaye itaburiya isa n'ibara ry'icyatsi ndetse n'agapfukamunwa ni umuganga.

Umuntu bari gukuramo iryinyo bamaze kurikura mu mubiri wiwe, ndetse bari gukoresha akuma gakuramo amenyo, ni iryinyo bamaze gukuramo rikaba ari iryinyo riri mu menyo y'imbere, barimukuyemo riri mu kuma niko karifashe.

Umukobwa wasamye ufite akadodo, ni agakoresho gakoreshwa mu kuba kakoza amenyo gafite urudodo, uyu mukobwa afite amenyo asa neza ndetse ari kuyagirira isuku ayahanagura ayakesha.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, birimo amamashini atandukanye, hakaba harimo intebe, hakabamo ameza, hakabamo n'ibindi, utubati n'ibindi byinshi cyane bitandukanye.

Umugabo ari kumwe n'umwana n'umugabo ufashe uburoso, ari guhanagura amenyo y'igihanga umwana afite mu kiganza kiwe inyuma yabo hari abaganga bandi bagenzi biwe bari kubareba.

Umwana bari kureba mu menyo yiwe, bagiye kumukura iryinyo, ni umwana ufite iryinyo rirwaye, bakaba bamushyizeho utwuma mu kanwa, tumufasha kuba yakurwa iryinyo ndetse uwatumushyizemo ni muganga.

Umubyeyi w'umumama ni umubyeyi ukuze cyane, akaba ari guhabwa imiti n'umuganga wambaye imyenda isa n'ubururu. Ni umuganga w'umukobwa uri kumuhereza imiti ndetse uyu mubyeyi afite n'ikirahure cy'amazi mu kiganza cye.

Umuganga w'umumama uri gufasha umusaza, ari kumufasha kumuramburira amaboko y'iwe hifashishijwe umugozi. Afite umugozi w'umuhondo mu kiganza cy'iwe akaba ari kumufasha amuvura gahoro gahoro.

Umusaza ubyibushye w'igikara akaba yambaye agapfukamunwa yicaye. Imbere ye hari umukobwa uri kumufasha kuba yafunga ishati uyu mukobwa ni umukobwa w'umuforomo utanga imfashanyo yo gufasha abantu bafite ikibazo cyo kubana n'uburwayi runaka ubwo aribwo bwose mu buzima.

Umubyeyi w'umusaza akaba ari umusaza uri kozwa mu mutwe kugira ngo amere neza hanyuma umusaza wicaye ahi kozwa n'undi muntu wamushyizeho amaso kugira ngo abashe kuba yamererwa neza.

Umubyeyi w'umwirabura, akaba afite agapapuro ari gufasha umurwayi w'umusaza uyu murwayi akaba imbere ye hari amazi ndetse hakaba hari n'imiti agiye kunywa.

Umubyeyi w'umugabo ari kumwe n'umwana bari gukina umupira, ni umubyeyi w'umugabo ugira umwana ara amaboko, umwana na we afite umupira ari kumubuza kuba yawufata, umwana ni we uri kuwukina.

Umukecuru uri kumwe n'umukobwa we bari gutegura imboga bagiye kurya ndetse n'imbuto. Bari ahantu mu gikoni cyo mu nzu bakaba bafite imboga imbere yabo ndetse n'imbuto bagiye gukoresha.

Umubyeyi w'umumama, akaba atari akuma kifashishwa muri siporo. Inyuma ye harimo abandi bantu babikoze gutyo. Bakaba bari gukora siporo ngororamubiri, kugira ngo bagorore ingingo zabo zimererwe neza.

Umukobwa w'umuganga ari gufasha umusaza kuba yagenda neza, amerewe neza. Ni umusaza ushaje cyane, ufite inda nini, akaba yambaye ishati y'ibara ry'ubururu. Ni umugore wambaye umupira w'ubururu. Ndetse yarengejeho n'uw'amaboko maremare.

Uyu musaza uri gutozwa ari kumwe n'umusore, bari kumufasha kugorora ingingo ziwe bakoresheje umugozi. Ni musaza wambaye umupira ndetse n'ipantaro, akaba yicaye ku gitanda.

Umubyeyi uri kumwe n'undi mubyeyi bari muri siporo, bakaba bari gutaha bava muri siporo bagenda gahoro gahoro bava gukora siporo ngororamubiri.

Umubyeyi ari kumwe n'undi mubyeyi ukuze cyane, ni ababyeyi babiri bari kuganira bose bishimye bari guseka, umwe ari gukata imboga zo guteka, undi ari kumureba mu maso amusekera.

Umubyeyi ukuze w'umumama akaba ari umukecuru ufite n'imvi. Afite ibiryo mu kiganza akaba agiye kurya. Ni umubyeyi wishimye uri guseka, yambaye imyenda y'imyeru.

Ibirango bigaragaza imiti ya diyabete ndetse n'uburyo ishobora kuba yakwitwarwamo, diyabete ni indwara ifata abantu ikabazahaza.

Abaganga bari kwita ku murwayi n'abaganga baryamye mu cyumba kimwe bari kureba uburyo umurwayi bamuvura, bari kumufasha ndetse aryamye bari kumwitaho, iruhande rwabo hari amamashini agiye atandukanye bari kwifashisha.

Ababyeyi bicaye hamwe bari kumwe n'abana. Aba babyeyi bakaba bicaye ahantu handitse amagambo hari n'ibirango byo kurwanya SIDA. Ababyeyi bari kureba hirya bose ariko bose bari kuganira ku kijyanye n'imibereho myiza.

Icyumba kirimo kuberamo inama, ni icyumba kirimo gutangirwamo inama zitandukanye ku bantu, harimo abayobozi bakomeye bicaye imbere bari gutanga izo nama.

Abaganga bari kwa muganga bafite utuntu tw'udukingirizo, n'udukingirizo bikoresha bagira ngo barwanye indwara zandurira mu mibonano ndetse hakaba barwanya n'indwara zindi no kuba umuntu yasama imburagihe, aba baganga bari kumwe bose ari abakobwa babiri ndetse n'abahungu babiri.

Igitabo kirimo kigaragaza uburyo umuntu aba agomba kwirinda indwara, ndetse n'ibigaragaza ahantu haba hari indwara z'igiye zitandukanye, ndetse n'igitanga n'inama.

Kwa muganga mu cyumba bavuriramo abarwayi aho babaga bakareba icyo buri muntu aba afite mu mubiri. Ni abaganga rero bambara udupfukamunwa ndetse bambaye n'ingofero bambaye n'amaga bari kureba bamusuzuma amenyo bari kumureba niba ikibazo bamukuramo amenyo yiwe afite ikibazo.

Umugore wicaye mu ntebe, ni umugore wambaye ikoti risa n'ibara ry'ikigina, akaba yambaye umupira w'umukara mo imbere ndetse n'ipantaro y'umukara, afite mikoro ari kuvuga ndetse inyuma ye hari amagambo yanditse ku rukuta yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Umugore w'umumama uri kugaragara, ufite ibisuko ndetse akaba yambaye n'umwenda wo kwa muganga, iruhande rwe handitse amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Abaturage bari kugenda mu muhanda bafite icyapa byanditseho ngo rubyiruko ni mwe hazaza h'ejo h'u Rwanda, irinde virusi itera sida ipimishije uyu munsi, ubundi ureke kwandura.

Inzu ya farumasi umuntu asangamo ibinini, ni inzu yanditseho Mediasol Farumasi Kanombe, ni inzu irimo abantu bagiye kugura imiti.

Ibiro bya Ruhengeri cyangwa se ibitaro bya Ruhengeri, ni ibitaro biri kujyaho abantu bagiye kwivuza. Ni ibitaro binini bifite aho bivurira abarwayi babyo.

Icyumba cyo kwa muganga ni icyumba iki cyumba kikaba kijyamo abarwayi ki kanagirwarwamo abarwayi hari icyumba kandi gikorerwamo ubushakashatsi bugiye butandukanye nk'uko byanditse hejuru mu magambo y'icyongereza ni icyumba kidafite aho gifunze ahubwo hagaragara ibirahure n'ibyo bigikikije.

Icyumba cyo kwa muganga kibikwamo ibikoresho bigiye bitandukanye, ni icyumba kirimo amamashini arimo ibikoresho byo kwa muganga baba bagiye babikamo kugira ngo bitaza kuba byabasha kwangirika.

Umubyeyi w'umumama yicaranye n'umusore bakaba bari kuganira, umusore ni umuganga akaba yambaye imyenda y'abaganga ari kuganiriza uyu mubyeyi ku bijyanye n'imibereho myiza y'uyu mubyeyi.

Kwa muganga ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu, ni abantu bambaye udupfukamunwa bari kugenda batambuka, hejuru kuri ino nzu handitseho pediatiriki kiliniki, ni ibintu byanditse mu kirimi cy'Icyongereza.

Inyubako yo kwa muganga icanye amatara ahagana ku mugoroba, hariyo abantu benshi bagiye batandukanye baje kwivuza bari kuvurwa bari gukurikiranwa, ni inyubako nziza ifite amabara y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga bakuriramo amenyo ni icyumba abantu bazamo bakaba babafasha bakabavura amenyo ni icyumba kirimo intebe, imashini ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga.

Inzu yo kwa muganga cyangwa se icyumba cyo kwa muganga, kirimo ahantu babagira abantu bari kubavura, ni icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ibyuma ndetse n'amamashini, harimo n'igitanda abantu baryamaho.

Inyubako yo kwa muganga ivurirwamo abantu bagiye batandukanye, ni inyubako ndende iri mu ibara rijya gusa na oranje, ikaba ifite n'ibyuma biyikikije bisa n'umukara, ni inyubako ifite ibyatsi biteye iruhande rwayo, ni inyubako isa neza cyane.

Icyapa cyo kwa muganga kigaragaza ibyo bakora. Ni icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, agaragaza ibikorerwa aha kwa muganga n'uburyo babikora.

Umuganga uri kuganiriza umurwayi, ni umuganga ufite agakayi mu ntoki z'iwe akaba yambaye itaburiya isa n'umweru. Akaba ari kureba umurwayi uri imbere ari kumubaza uko arwaye n'uko amerewe, inyuma ye aho hari undi muganga nawe ufite ikayi ari kuyirebamo.

Icyumba cyo kwa muganga bakoreramo ubushakashatsi butandukanye, bakaba bari gukora ubushakashatsi ari abaganga bagera kuri bane ndetse hari n'ibikomeje kwifashisha mu gukora ubushakashatsi.

Inzu nini, yanditseho bayo eniteke ni inzu, isa n'ibara ry'umweru ikaba ari inzu igeretse. Ikaba ari inzu nziza kandi ifite n'ibiti iruhande rwayo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda biryamaho abarwayi. Ni icyumba gifite inkuta z'isa n'ibara ry'umweru. Ibi bitanda na byo biriho matera zisa n'ibara ry'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Ni cyumba kirimo igitanda kiryamaho abarwayi, ndetse hakaba harimo intebe umuntu yicaraho, hakaba harimo ndetse n'ahantu umuntu ashobora kuba yakarabira intoki.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umuganga, uyu muganga ari kureba amashusho ari mu mashini agaragaza imbavu z'umuntu, aya mashusho agaragaza imbavu uko zigenda zitandukana ndetse agaragaza n'uko umuntu amerewe mu mbavu ziwe, umuganga afite imashini ari kureberamo ndetse n'iyindi ifite taburo nini.

Inzu yo kwa muganga bakoreramo ubuvuzi, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ni inzu isa n'umweru aho irimo n'amabara y'ikigina, yanditsemo nurse station.

Umuganga w'umugore akaba ari gutambuka mu nyubako yo kwa muganga, irimo ibitanda abarwayi baryamaho hakaba harimo n'amamashini acunga uko bamerewe ndetse n'amarido yifashishwa iyo bikenewe.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo ubushakashatsi. Kikaba ari icyumba kirimo utubati, kikaba kirimo aho gukarabira, kikaba kirimo amamashini atandukanye. Hagaragaramo utubati tubikwamo ibintu, hakagaragaramo n'akantu kabikwamo imyanda.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bifashisha mu buvuzi, harimo televiziyo ndetse hakaba harimo n'ibitanda biterekwamo ibintu bitandukanye ndetse n'utubati.

Ikigo nderabuzima cya Kinyinya. Ni inyubako nziza y'iki kigo nderabuzima, akaba ari ikigo gifite amabati asa n'ibara ry'ubururu ndetse kikaba gifite inyubako ifite ibara risa n'umweru.

Umwana uri gusunika undi muntu wicaye mu kagare, imbere yabo hari umubyeyi wicaye mu kagare wambaye ishati y'umweru, umwana nawe yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ikoti ry'umukara, ishati y'umweru mo imbere.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, kirimo matela kikabamo ameza kikabamo intebe, kikabamo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye birimo amamashini ndetse n'amarido.

Inzu y'ikigo nderabuzima cya Nyarugerenzi, ikaba ari inzu irimo abarwayi babiye bitandukanye bagiye kwivuza. Hakaba harimo abasore n'abandi bantu bagiye batundukanye. Inzu ndende, inzu ni etage.

Ibitaro bivurirwamo abarwayi bagiye batandukanye ndetse bikaba byanditseho n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, harimo n'ijambo ryanditse rivuga Malariya, hari umuganga uhahagaze imbere akaba yifashe mu mufuka ari kwitegereza imbere.

Inzu y'ikigo nderabuzima cya Gisenyi, ni inzu igaragaza ko iriho abantu benshi harimo ababyeyi, bakaba bagiye kwivuza, ni ikigo nderabuzima cya Gisenyi gifitemo icyapa imbere yacyo ndetse kinanditseho n'amagambo yanditse mu gifaransa.

Ikigo cyo muri Afurika cyitwa Irikadi, ni ikigo nderabuzima kikaba kigufasha mu kuba ari ikigo cyiza, iyi rero ni inzu yacyo ikaba ari inzu nziza yubatse n'amatafari meza agaragara neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi, ndetse kikaba kirimo ibitanda. Harimo umurwayi uryamye ku gitanda kimwe, ndetse ufite ibyuma bicometse ku ruhande rw'iwe. Iruhande rwe hakaba hari icyuma kibitse ibintu, ndetse hakaba hari n'ahantu bashyira imyanda n'utubido, ndetse hirya ye hakaba hari n'ibindi bitanuda.

Inzu igaragara ko ari inzu yo kwa muganga ikaba ifite ibyumba bitandukanye, ikaba igaragara mu ibara ry'umuhondo ujya gusa n'umweru ndetse ukaba ufite n'inzugi z'imbaho.

Iyo bakuye kwa muganga yarimo icyumba kirimo abarwayi ndetse kikaba kirimo n'ibitanda baba baryamyeho hakaba harimo n'inzitiramibu zibafasha kwirinda imibu.

Ikigo cya Rwanda kansa senta, ni ikigo gishinzwe kurwanya kanseri cyangwa se kuvura indwara za kanseri. Ni ikigo gifite urukuta rusa n'ibara mu by'umuhondo

Inzu yo kwa muganga iteraniyemo abantu bagiye kwivuza, bakaba ari abantu batonze umurongo, bakaba bagiye kwivuza, harimo n'abantu bahagaze ndetse n'abicaye ku magare y'ababana n'ubumuga.

Inzu yo kwa muganga irimo icyumba gifasha abarwayi kuba basuzumwa. N'icyumba kirimo imashini nini, ndetse akaba isa n'ibara ry'umweru, ndetse ikaba ifite n'igicyatsi gisa n'ibara ry'umukara. Ikaba ifite ahantu umurwayi aryama mu gihe bari kumusuzuma.

Inzu y'ikigo nderabuzima, iki kikaba ari ikigo nderabuzima cya Rwerere, aho iki kigo gifite iruhande rwayo ahantu hateye indabyo, kikaba ari ikigo gifasha abarwayi batandukanye.

Inyubako irimo ibikoresho bya siporo, ni inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo ibyo baterura by'ibyuma ndetse hakaba harimo n'ibyo bicaraho bakanyonga bimeze nk'amagare.

Inzu yo kwa muganga irimo ahantu bavurira abantu, ni inzu yanditseho amagambo avuga ngo: Isange one stop center Remera Rukoma, ndetse inzu ijyaho abantu bakeneye ubufasha bujyanye n'ubuzima.

Umuganga, inyuma ye hari n'undi muganga, umuganga aricaye ari gufasha umurwayi, umurwayi bakaba ari kumuganiriza ndetse anandika amubwira uko ameze, imbere ye hari imashini ari kurebamo ibyo ari kugenda anamubaza.

Inzu yo kwa muganga ikaba igaragara ifite ibarara risa n'umuhondo ndetse hakaba hariyo abaganga benshi bari hanze, ni inzu nini cyane ni ngari, ubona ko ivurirwamo abantu benshi.

Ahantu hateye ibyatsi, iyi akaba ari inyubako yo kwa muganga, isa neza ahantu hari ibyatsi ndetse hanagaragara neza, uko hagaragara ni ahantu hateye ibyatsi bisa neza, hari inyubako nziza zubatse neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo amamashini menshi. Harimo amamashini yifashishwa mu gutanga imyuka ndetse hakaba harimo n'amamashini agiye atandukanye.

Uducupa tubikwamo amaraso; amaraso iyo yatanzwe ni uducupa tubikwamo amaraso cyangwag se udusashi aba yashyizwemo ni udusashi tuba dufite udupapuro ku ruhande tugaragaza uwatanze amaraso n'ubwoko bw'amaraso yatanze.

Inzu yo kwa muganga ni inzu ifite amabara asa n'ibara rya pink mu rurimi rw'icyongereza, ni inzu ifite intebe imbere yayo ndetse izo ntebe zikaba zisa n'ibara risa umutuku, ikaba ifite icyapa ndetse n'ahantu hashobora kuba haparika imodoka.

Inzu yo kwa muganga akaba ivurirwamo indwara zigiye zitandukanye, ni inzu ndende igeretse kabiri ikaba ifite ibyumba bitandukanye igaragara ko yubakishije amatafari.

Icyumba cyo kwa muganga bavuriramo abarwayi, ni icyumba kirimo igitanda, kikaba kirimo amamashini agiye atandukanye yifashishwa mu gihe hari kuvurwa abarwayi ndetse harimo n'akabati kabikwamo ibintu bigiye bitandukanye.

Inzu yo kwa muganga irigaragaza aho binjirira bagiye kwivuza ndetse ni inzu ifite ibara risa n'umweru, ikaba ifitemo n'amatara ari kwaka, irimo n'ibindi bintu bitandukanye.

Umugabo urwaye uri kwa muganga akaba yambaye serumu ku ku kuboko ndetse anaryamye ahantu ku gitanda kijya kumera nk'intebe. Yambaye agapfukamunwa ndetse ari mu icyumba kirimo ibyuma byinshi.

Ibintu icumi uko ushobora kuba wakora kugira ngo wongere ubuzima bwawe ndetse ugabanye no kugira ibibazo mu mutwe. Bitanu bya mbere harimo kwicara utuje ukazajya urambura amaguru, warangiza ukongera nanone ukicara ku ntebe, ukagenda wigorora wigorora. Ni ibintu byanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo akabati hakabamo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma abantu, hakaba hariho n'igitanda umuntu aryamaho kugira ngo bamusuzume, hakaba harimo n'imashini zigiye zitandukanye.

Umusore uri muri siporo akaba ari umusore wambaye imyenda y'umukara, akaba anambaye n'inkweto z'umukara ari gukandagira ku kintu kimeze nk'ibuye gisa n'umukara, ari kugikandagiraho hejuru akongera agakandagira hasi.

Icyuma cya siporo cyifashishwa n'abaganga, ni icyuma gifite aho bareberamo, kikaba gifite ahantu bashyiramo amaso abiri bakareba ndetse kikaba gifite amabara abiri ariyo umweru ndetse n'ubururu, kikaba gifite n'igice cyo hasi gifite ibara ry'umukara, ni icyuma gifite akandi kantu kagisobanura uburyo gikora.

Umusore wari uri muri siporo yafashe ku kuguru kw'iwe kw'ibumoso kugukanda mu ivi. Ni umusore wambaye isaha y'umukara n'ikabutura y'umukara yafashe ku ivi ry'iwe ari kurikandakanda akoresheje ibiganza by'iwe.

Imiti igiye itandukanye, iyi miti ni imiti ifasha abantu kugira ngo babashe kumera neza, iyi miti ifasha abantu ikabavura, ndetse harimo na bande zifasha abantu kuzibazigaho kugira ngo babashe kumererwa neza, irimo uducupa tugiye dutandukanye, harimo n'amavuta atandukanye.

Ijage y'ikirahure ikaba ari ijage irimo amazi bari gusuka mu kirahure iki kirahure ni igikombe kiri gusukwamo amazi ni amazi meza yo kunywa agiye kunyobwa n'umuntu.

Icyumba cyo kwa muganga bavuriramo abarwayi, ni icyumba kirimo amashini agiye atandukanye, hakaba harimo ndetse n'igitanda abarwayi baryamaho, bakaba babavura baryamye.

Agapipiri karimo amazi bari kuyasuka bayasuka mu kirahure, ni ikiyaga gisa neza, aya mazi nayo ni amazi asa neza, akaba ari amazi yo kunywa, agapipiri gafite ibara risa n'ubururu.

Agakoresho bambara, bakaba bakifashisha mu gihe bari gukora imirimo ngororamubiri, akaba ari iyo yitwa siporo gasa n'ibara ry'umukara ndetse kifashishwa kugashyira ku kuboko.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo, ni ibikoresho bigaragaramo umuntu uyobora umuntu kugira ngo abashe kuba yakora siporo, ibi bikoresho kandi bikaba bifite amapine ku buryo bishobora gutwarwa bikimurwa bikavanwa ahantu hamwe bikajyanwa ahandi.

Umuganga uri gufasha umuntu kuba yakora siporo. Ni umuganga wambaye itaburiya isa ibara ry'ubururu bwerurutse uwari gufasha yambaye umupira usa n'umweru ndetse n'ikindi kintu yambaye mu nda cy'umugozi gisa umweru, yambaye ipantaro y'umukara.

Umuntu uri muri siporo akaba yambaye kora y'umukara ndetse ni umusore akaba yambaye n'impeta mu ntoki ari muri siporo, ari kwigorora ukuguru kwiwe yahinnye ivi.

Abantu b'abaganga babiri bari gufasha umukinnyi wari uri mu kibuga akaba agize ikibazo, bari kumufasha amaguru yiwe ndetse ni umugore ndetse n'umugabo b'abaganga bari gufasha umukinnyi uryamye hasi.

Icyumba cyo gukoreramo siporo. Ni icyumba kirimo amamashini yo kwirukankiraho, hakaba harimo amamashini abantu bicaraho bakagororoka, hakaba hariho amamashini na yo abantu bicaraho bakanyonga bameze nk'abari kunyonga igare.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara uri kugorora ingingo z'iwe, akaba ari muri siporo yambaye n'isengeri y'umukara, akaba ari kugorora. Buri wese yinanura yigorora, kugira ngo amererwe neza, imitsi ye irambuke.

Ibiribwa n'imbuto ndetse n'ibyuma biterurwa ndetse n'imiti ndetse n'imidari, bifasha abantu bakora siporo, harimo imbuto zirimo amacunga ndetse na avoka ndetse n'imineke ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye n'inanasi.

Umusore uri muri siporo ari guterura ibyuma ndetse ari guterura ibyuma apfukamye n'ivi rimwe, akaba yambaye umupira w'ubururu, ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara.

Agakoresho bakoresha kwa muganga bakagafashisha abantu bagize ikibazo mu gihe bari bari gukora siporo. Ni agakoresho kari mu ibara ry'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu.

Icyumba bakoreramo siporo, ni icyumba kirimo ibikoresho bya siporo bigiye bitandukanye, harimo ibikoresho by'ibizeru hakabamo ibikoresho bicaraho, hakabamo ibikoresho bakoresha bakora siporo nyine byinshi bigiye bitandukanye.

Umusore uvuye muri siporo akaba ari umusore uri kunywa amazi, ari kunywa amazi meza, ari kuyanywa ayakuye mu gacupa ndetse yambaye umupira w'ibara ry'umukara, akaba avuye muri siporo bigaragara ko afiteho ibyuya ndetse akaba ari kunywa amazi meza.

Ibikoresho bitwarwamo, ibikoresho bya gufasha abantu bagize ikibazo cyangwa se bahuye n'uburwayi butunguranye, bikaba ari amabogisi mu rundi rurimi, hakaba handitseho fasite eyibibogisi, ni ibikoresho bikoreshwa n'abakuruwaruje.

Umusore n'umukobwa bavuye muri siporo bakaba bari kunywaha amazi afasha kugira ngo babashe kumererwa neza mu buzima bwabo nyuma kuva muri siporo. Bafite buri wese agacupa kavamo amazi bari kuyanywa.

Bimwe mu miti ifasha mu kuba yakiza uburibwe, ni imiti iri mu macupa asa n'umweru ndetse akaba ariho udupapuro dusane ibara ry'umukara, hakaba hari n'iri mu ducupa tw'umweru nayo ifite uducupa dusa ibara ry'ubururu n'utundi dufite andi mabara.

Udukoresho two kwa muganga turimo uducupa ndetse na ga, hakaba harimo n'udushashi ndetse n'uducupa turimo imiti ifasha uruhu kumererwa neza rugacya.

Umukobwa uri muri siporo akaba ari kugorora umubiri we kugira ngo yivure, ari kugorora umubiri we, yambaye isengeri ndetse n'ipantaro y'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga gisa n'ibara ry'umweru, kikaba ari icyumba kirimo imashini isa n'ibira ry'umweru. aheshi ifasha kureba abantu ku buryo bamerewe ndetse ikanabagenzura iabasuzuma imibiri yabo uburyo imeze.

Umugabo ufite amazi mu ntoki ze, akaba ari mu gacupa, ayo mazi ari kuyimena mu maso ndetse anayanywa, yambaye umupira w'umukara uyu mugabo afite agapira mu kuboko kw'ibumoso.

Ikirangantego cya karate, ni ikirangantego cy'abantu barwana, kiriho abantu barwana, hakaba hari n'abantu, umwe wambaye imyeru, undi yambaye iby'ubururu, cyanditseho Rwanda Judo Federation.

Umuntu uri guterura icyuma ndetse n'ibiryo birimo inkoko, amagi, hakabamo inanasi, amashu, puwaro, amazi, hakaba harimo ji, hakaba harimo n'ibindi bigiye bitandukanye byo kurya bitera imbaraga n'ibirwanya indwara ndetse n'ibindi byubaka umubiri.

Agakoresho ndetse n'agakarito kazamo agakoresho kifashishwa kwa muganga mu kuba bagashyira ku kuboko k'umuntu, ubundi akaba yabasha kuba yamererwa neza. Ni agakoresho gasa n'ibara ry'umukara ndetse n'umutuku.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini ifasha kureba uburyo abanta bamerewe, ni imashini nini isa n'ibara ry'umweru, umuntu akaba yayiryamaho ubundi ikamureba uko ameze ubundi ikabwira muganga uko umuntu agaragara.

Ibyatsi byifashishwa mu kuba byavura, ni ibyatsi bifite amabara y'umutuku ameze nk'uturabyo, ndetse bikaba bifite n'ahasa icyatsi. Byibashishwa mu gukorwamo imiti yo kuvura abarwayi bagiye batandukanye.

Igiti gikurwaho amababi ndetse kikifashishwa mu kuba cyavura kuko bakoramo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura abantu barwaye indwara zitandukanye.

Ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti. Ni ibyatsi biteye ahantu bameze nko mu kigunda, hari ibindi biti, ariko byo bikaba bifite amababi akomeye. Ni ibyatsi bivamo imiti bifashisha mu kuba bavura abantu.

Ibyatsi byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ni ibyatsi bimera ahantu hameze nko mu ishyamba, bikaba ari ibyatsi bagenda bagasoroma bakabikoramo imiti kugira ngo bavure indwara zimwe na zimwe.

Ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti, ni ibyatsi biteye ahantu hagaragara nk'ahari ikigunda hari ibindi biti, ibi byatsi bikaba byifashishwa mu gukora imiti, ni ibyatsi biba bisa n'ibikokomeye cyane ariko barabikoramo imiti babanje kubisya bikavamo amafu.

Ibihingwa bivamo imiti, harimo ibihingwa byanditseho bivuga ngo ni Aloe Vera, hakabamo ibyitwa ni Lemon Balm, hakabamo ibyitwa Basil, hakabamo ibyitwa Peppermint, hakabamo ibyitwa Lavender, hakabamo ibyitwa Rosemary, hakabamo n'ibyitwa Marigold.

Uducupa ndetse n'udushashi turimo imiti igiye itandukanye, inyuma yatwo hari inanasi ndetse utu ducupa dufite amabara agiye atandukanye harimo umutuku, umukara, umweru n'ayandi.

Agacupa kifashishwa mu gushyiramo imiti, ni agacupa gafite imiti ifasha abantu kubavura umubiri wabo ukaba wamera neza cyangwa se uruhu rwabo, aka gacupa gafite amabara abiri ariho ibara ry'umweru ndetse n'iry'umukara.

Ibyatsi cyangwa se ibiti byifashishwa mu gukora imiti, n'ibyatsi biri mu tuntu dusa n'umukara biteyemo, n'ibyatsi batera igihe bimaze gutangira gusa n'ibikura, ariko bikazakorwamo imiti yo kuvura abantu.

Ikirango cya Rwanda kigaragaraho amagambo yanditse ngo Rwanda fda ni ukuvuga ngo hasi handitseho Rwanda fudu andi daragizi otoroti, ni ikirango kigaragara gikikijwe n'amasaka hakaba hagaragaramo akantu kameze nka buji gafite urumuri.

Ibyatsi byifashishwa mu kubikoramo imiti. Ni ibyatsi bifite amabara asa n'icyatsi ndetse bikagira utuntu tujya kumera nk'uturabyo kuri byo ariko bifashisha bakora imiti yo kuvura indwara zitandukanye.

Agacupa karimo imiti yifashishwa mu kuvura abantu, ni agacupa gasa n'ibara ry'umweru, kakaba kanditseho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, avuga ngo foreva deyiri.

Akadobo kajyamo imiti. Ni akadobo gafite umufuniko usa n'umuhondo ka kaba gasa n'ibara ry'umweru kakaba kariho ikiranga ibirimo gifite ibara risa n'umuhondo cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu.

Ibyatsi byifashishwa mu kubikuramo imiti yo kuvura abarwayi indwara zigiye zitandukanye, ikaba ari ibyatsi biba bimeze nk'ibifite amahwa.

Igihingwa gikurwamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi harimo iz'uruhu n'izindi zigiye zitandukanye. Ni igihingwa cyitwa izina ry'Ikinyarwanda kikaba gifite ibara ry'icyatsi.

Imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Ni imiti uri mu icupa ry'uburiro, hari iriho agapapuro gasa n'ibara ry'umutuku, hakaba akaba kanditseho amagambo make atandukanye agaragaza uburyo ikora.

Agacupa kajyamo imiti igiye itandukanye ni agacupa kajyamo umuti ufasha kuba wavura abantu indwara zinyuranye, ndetse kaba gasa ibara ry'umuhondo kakaba kajyamo umuti ukorwa mu gikakarubamba.

Ibyatsi byifashishwa mu kuba byakorwamo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye. Bikaba biterwa byarangiza bigakura ntibibe birebire cyane. Bikavura indwara zitandukanye ku barwayi baba bazirwaye.

Imiti yifashishwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ni imiti isa umutuku, umukara, umuhondo ndetse hari kugaragara n'ibitabo ndetse n'agasekuru gasekura imiti ndetse n'ibikarito bijyamo iyi miti.

Amavuta yifashishwa mu gutunganya neza uruhu ni umuti ukozemo amavuta bisiga kugira ngo abe yavura indwara z'uruhu, uyu muti witwa arovera jeri ni amavuta bisiga ku mubiri.

Uducupa tuvamo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo n'iz'uruhu. Ni uducupa dufite amabara atandukanye arimo umuhondo ndetse n'umweru. Hakaba hari imifuniko itandukanye.

Amacupa y'imiti arimo imiti, ni amacupa asa n'amabara agiye atandukanye, harimo amabara y'icyatsi, hakabamo umukara, hakabamo n'umweru ndetse n'andi adafite ibara, gusa harimo imiti, harimo imiti y'amazi n'imiti y'ifu.

Imiti igiye itandukanye y'ibyatsi, bakuramo imiti, bakaba babyifashisha mu gukora imiti y'ibinini tunywa kwa muganga. Ni imiti ya gakondo cyangwa se ibyatsi bya gakondo, byifashishwa mu gukora imiti.

Ibyatsi bya gakondo byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, ibyatsi biri ahantu kuri senkenge bikaba bikoreshwa mu kubifata bakabikoramo imiti yo kwifashisha mu kuvura abarwayi bagiye batandukanye.

Imiti ikorwa mu kibiriganya, ni imiti iri mu icupa ndetse ikaba iri mu icupa risa n'ibara ry'icyatsi. Hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo. Imiti ifasha kuba yavura indwara zitandukanye.

Ibyatsi byifashishwa mu gukuramo imiti, ni ibyatsi biri ahantu hari ibindi bintu bijya kumera nk'imyanda, bikaba ari ibyatsi biteye bikorwamo imiti yifashishwa mu kuvura abantu, bakaba babasha gukira indwara zigiye zitandukanye.

Udukarito n'udushashi tuzamo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura abarwayi indwara zitandukanye. Tumwe turasa ubururu n'utundi turasa umweru, utundi turasa n'andi mabara menshi arimo umutuku n'ayandi y'icyatsi.

Ibyatsi biteye bikaba ari ibyatsi bikorwamo imiti ifasha abarwayi igiye itandukanye n'ibyatsi bifite amababi ajya kumera nk'ay'igiti, ariko bikaba ari ibyatsi bimera bimerera hasi ariko bikaba bivamo imiti.

Agacupa gasa n'ibara ry'umweru kakaba ari agacupa k'umweru kagaragaza ko karimo amavuta yifashishwa mu kuvura imitsi. Inyuma yako hari imbuto zigiye zitandukanye umuntu ashobora kuba yarya.

Ibyatsi biteye ahantu hajya kumera nk'ishyamba, bikaba ari ibyatsi bikoreshwa mu kuvura abantu, iyo bamaze kubikoramo imiti bayivuza indwara zitandukanye.

Udukarito tuba turimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, abantu bagenda barwara, turimo uducupa dusa n'umweru, turimo imiti twanditseho amagamboga ari mu ibara ry'umutuku.

Icupa risa n'ibara ry'umutuku rikaba ririho agapapuro k'umukara. Rikaba ari icupa rifite ibirango bigaragara ko byanditse mu ibara rya shokora ndetse hagaragaraho n'imbuto kuri ryo. Ririmo imiti itandukanye yo kuvura abantu.

Ikimera cyera kikaba cyifashishwa mu gukora imiti irwanya indwara z'uruhu, ni ikimera gisa n'icyatsi kikaba cyerera hasi ubu butaka.

Icupa risa n'ibara ry'umukara, rikaba rifite agapapuro gasa n'umweru kanditseho amagambo asa n'ibara rya orange ndetse kakaba gafite umuvuniko utukura, ni agacupa kabikwamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Uducupa turimo imiti ni uducupa tuvamo imiti dufite amabara agiye atandukanye, harimo ikigina, hakabamo umutuku, hakabamo icyatsi ndetse na shokora.

Ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti, ni ibyatsi biri gusoromwa n'umuntu w'umugabo uhagaze yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'umupira w'umweru ndetse n'umutuku.

Akabati karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura abarwayi, indwara z'igiye zitandukanye baba barwaye, ni akabati kagaragaramo imiti irimo amabara atandukanye bigaragara mu macupa.

Imiti iri ku cyatsi, ni imiti isa n'ibara rijya gusa n'umweru, iyi miti, ifite ikaba ari imiti iri mu ducupa, cyangwa se utuntu twa purasitiki, ndetse iri ku cyatsi, cyangwa se ikibabi.

Agacupa k'amavuta yifashishwa mu kuba yakoreshwa ku bantu bafite uruhu rushobora kuba rurwaye, ni agacupa karimo amavuta akoreshwa y'igikakarubamba, akaba ari amavuta meza afasha uruhu kumererwa neza rukamera neza rugakira.

Bari gusoroma imiti y'ibyasi bagiye kuyikoramo imiti ifasha kuvura abantu, ni ababyeyi bagera kuri bane bari hamwe bari kugenda basoroma imiti bazenguruka bayisoroma aho iteye.

Agacupa kavamo umuti. Ni agacupa gasa n'ibara ry'ubururu. Kakaba kanditseho amagambo nayo yanditse mu ibara ry'ubururu ariko bwijimye ndetse kakaba gafite n'ibirango biriho igikakarubamba, kakaba gafite umufuniko w'ibara ry'icyatsi.

Ibyatsi byifashishwa mu kuba byavura abantu bagiye batandukanye, ni ibyatsi byifashishwa bagakora imiti itandukanye kugira ngo bajye kuvura indwara zigiye zitandukanye abantu baba barwaye.

Agacupa kavamo umuti ni agacupa kanditseho n'amagambo yo mu kinyarwanda avuga ngo umurava. Aka gacupa kakaba karimo umuti usa n'ikigina kakaba gapfundikijwe umufuniko usa n'umuhondo.

Icyatsi gikorwamo imiti iri kumwe ndetse n'gasekuru gakoreshwa bari kugisya, bakaba bakuramo imiti; ndetse iruhande rwacyo hari agacupa karimo amavuta cyangwa se imiti iba yavuyemo.

Ifu irimo umuti cyangwa se ibyatsi baba baseye bigakora ifu ubundi barangiza bakabyifashisha mu gukora imiti izajya ivura abantu ni umuti mwiza ukorwa n'abaganga.